Amashiga yagenewe gutekerwaho inyama z'inkoko, z'inka ndetse n'iz'ihene zitunze ku mishito, kugira ngo zibashe kuryoha neza.

Umuntu wambaye utunozasuku mu ntoki dufite ibara risa n'umukara, akaba afite igikoresho kirimo inzoga, akaba ari ahantu hacururizwa inzoga zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu nyubako ifite ameza n'intebe zitandukanye, bajemo gufata amafunguro ndetse n'ibyo kunwa mu gihe babikeneye.

Urujya n'uruza gw'abantu bicaye abandi bahagaze, bahuriye mu nyubako ikunda gufatirwamo amafunguro ndetse n'ibyo kunwa mu gihe gitandukanye.

Inyama zitetswe mu buryo bwo kotswa ,zitunze ku mishito itatu zikaba ziri hejuru y'igikoresho cyitwa isahani, gifite ibara risa n'umweru.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe, bafite igikoresho kirimo amarwa. Ndetse bari mu nyubako yagenewe gucururizwamo amarwa atandukanye, buri wese ku yo ashoboye kunywa.

Amacupa arimo inzoga z'amoko menshi atandukanye, ndetse hariho n'igikoresho abantu bifashisha basuka izo nzoga, zishirwa mu tundi dukoresho duto bifashisha bazinywa.

Umugabo wambaye ikanzu ifite ibara risa n'umweru n'akagofero gafite ibara risa n'umweru, akaba afite inyama zitunze k'umushito mu ntoki ze, ahagaze mu nyubako yubatswe isakaye neza.

Inyubako yagenewe gucururizwamo ibinyobwa bitandukanye, hakaba harimo abagabo babiri bicayemo ku ntebe bafite igikoresho mu ntoki banyweramo inzoga.

Umubyeyi uhagaze ku kumuhanda ahagararanye n'umusore ufite ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'igare, gipakiyeho ibiribwa byo mu bwoko bwitwa ibisheke.

Inzu irimo ibicuruzwa ari byo imyenda yagenewe kwambarwa mu gihe cy'ubukwe ndetse n'ibisabo bifashisha mu mihango yo gufata irembo mu gihe cy'ubukwe.

Inzu yagenewe ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, harimo: ibyo kurya byitwa umuceri, ndetse n'ibikoresho twifashisha mu isuku mu rugo, ku bantu bakuru n'abana. Imbere yaho ku rubaraza, hariho umubyeyi wikoreye akabase karimo imbuto ziribwa arizo indimu.

Igiti cyo mu bwoko bw'umukindo gitewe ku muhanda, haparitse imodoka nyinshi zitandukanye, iruhande rw'inyubako igeretse kane.

Inyubako yubatswe neza ifite imiryango ifunguye, imbere yaho ku rubaraza hahagaze imodoka, ndetse no mu muhanda hariho umuntu utwaye igare.

Inzu zicururizwamo ibyo kurya bitandukanye harimo imiceri, amavuta n'isukari. Hanze ku rubaraza hariho amajerereka n'imikubuzo n'ababyeyi bicaye mu muryango, imbere y'ibaraza zahaparitseho ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka.

Inyubako yubatswe isize irangi rifite ibara ry'umuhondo ku gikuta no mu mpande, imbere y'umuryango hahagaze umubyeyi, hariho igikoresho cyitwa ameza, imbere y'urubaraza hariho umuntu uhagaze ku kinyabiziga cyitwa ipikipiki.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ari byo iji zo kunywa, imikati, ubuki bwo kurya, ndetse hanze hakaba hariho akamezaeza gafite ibara risa n'umutuku, hejuru ku nyubako hariho icyapa kigaragaza ibintu bitandukanye bishushanyijweho.

Inyubako itatu zubatswe zisakaye, iruhande hasi ku rubaraza hariho abantu bahagaze, haparitsweho n'ikinyabiziga cyo mubwoko bw'igare hasi.

Imyenda y'amoko atandukanye, arimo iy'abana n'imipira y'imbeho, n'biryamirwa abantu bifashisha mu rugo, yicaye ku ntebe umubyeyi mu nyubako yubakishijwe ibyuma isakajwe amabati.

Inyubako yometsweho icyapa gishushanyijweho amacupa, amafunguro, ndetse n’ibitanda byo kuryamaho. Iruhande rwayo, hariho igihingwa cyitwa urutoki, ndetse n’igiti cyitwa ikibonobono.

Inzu icururizwamo ibyokurya bitandukanye no kunywa ari byo: amandazi ndetse n'icyayi, hanze ku rubaraza hakaba hicaye abakobwa babiri bacuruza imyenda y'abadamu.

Inyubako isize irange risa n'umuhondo, ku rubaraza hakaba hariho ibicuruzwa biribwa aribyo: umuceri ndetse na biswi baha abana, ndetse n'ibikoresho by'isuku bambika abana.

Umubyeyi wambaye imyenda akaba afite urukweto ku mutwe we, afite igitenge mu kaboko k'iburyo ,mu kaboko k'ibumoso hariho indi myenda, iruhande rwe hariho ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ipikipiki ,inyuma ye hariho inyubako y'inzu.

Inyubako yubakishijwe imbaho, inasakaye isize irangi risa n'ubururu, ikaba icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, iruhande hariho ibiti by'imbuto za avoka.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari mu muhanda batwaye ibinyabiziga byo mu bwoko bw'ipikipiki ndetse n'igare ,bari imbere y'inyubako ya kijyambere igeretse kane.

Amazu y'ubucuruzi yubatswe mu buryo bwa kijyambere, acururizwamo ibintu bitandukanye, ibikoresho byo mu rugo twifashisha mu gikoni, imbere ku rubaraza hateye igiti cy'umukindo, hariho n'abantu bicaye hejuru y'amapikipiki n'imodoka iri mu muhanda.

Inyubako ifite ibyapa biyiriho bishushanyijweho abantu ndetse n'amacupa n'ibindi bikoresho bitandukanye, iruhande hariho umuryango ufunguye ufite ibara risa n'umukara, hariho amabaraza agerekeranyije azamuka ajya hejuru mu nyubako.

Inyubako yo mu buryo bwa kijyambere ifite umuryango ufunguye, hahagazemo umukobwa ugaragaza ibyishimo, avuye guhaha ibicuruzwa bicururizwamo...

Inyubako yubatswe isakaye, ifite inkingi zisizwe irangi, ry'icyatsi ninzugi zisizwe irangi ry'umukara imbere yayo hicaye abakobwa babiri, bafite igipupe mu ntoki zabo.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikomoka ku biti bitwa amakara, imbere y'inyubako hariho n'intebe ndetse n'abantu bahatambuka bagenda.

Inzu yubatswe, isakaye, izitijwe amatafari ahiye, ku gikuta hariho icyapa gifite ibara ry'umukara handitsweho amagambo afite ibara ry'umweru, hanze haparitseho ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ipikipiki.

Inyubako ikorerwamo umurimo wo kudoda imyenda, hakaba hahagaze umubyeyi mu muryango, hejuru hariho umugozi umanitsweho imyenda y'ibitenge, ku ruhande hariho umugabo wicaye ari kudoda inkweto.

Inzu yubatswe ifite umuryango usizwe irangi risa n'umweru hejuru ku gikuta, asize irangi risa n'umukara ndetse n'amagambo yanditswe mu ibara risa n'umweru, iruhande mu muhanda harimo ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka.

Inyubako yagenewe gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ari byo imbabura zo gutekaho, imikubuzo yo gukubura, imifuka irimo ibiribwa ndetse n'iyo guhahiramo. Hicaye ababyeyi babiri ku rubaraza n'umugabo wicaye ku ntebe imbere yabo hariho umunzani uteretse ku meza.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, imbere yayo hariho abantu babiri bafite agakoresho karimo ibikoresho umuntu yifashisha byo mu ikoranabuhanga, harimo telefone, imigozi icaginga, ndetse imbere yaho hariho icyapa kigaragaza ibyo bakora.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ikaba icururizwamo amoko atandukanye y'amarangi abantu bifashisha basiga ingo zabo ku nzugi n'amadirisha.

Inzu yubatswe ikaba isakaje amabati asa n'umweru harimo intebe hasi, kuruhande hariho umugabo uri ku ruzitiro, impande y'uruzitiro hariho ibiti birebire biyifite amashami harimo nigiti cy'urubuto rwa voka.

Ibikoresho bigizwe n'ubwoko butandukanye harimo amasafuriya, ibikombe, amabase, amasahani, udupaniye, indobo ndetse n'intebe abana bicaramo biri hamwe ahantu bigomba gucururizwa.

Icyapa gishushanyijweho ibi bikoresho abantu bifashisha abacuranga umuziki, harimo gitari, harimo ingoma, harimo bafure, ndetse n'ibindi bitandukanye, bituma abantu basusuruka iyo bahuriye hamwe.

Inzu ifite imiryango ibiri yo gucururizwamo, hanze ku rubaraza hakaba hariho akameza gateretseho akamashini gashinzwe gutunganya ibyo kurya, ku rukuta hejuru hariho icyapa kigaragaza ibicururizwamo.

Ibikoresho abantu bifashisha basasa mu rugo baryamaho ,ndetse n'ibindi bikoresho byo mu bwoko bw'imikeka abantu bifashisha bakora isuku bategura muri saro.

Inyubako yubatswe， isakaye， ifite irangi ku gikuta risa n'icyatsi ，n'inzugi zifite ibara risa n'icyatsi，ku rubarazaa hahagaze umuntu， imbere yarwo hariho ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka.

Inyubako yagenewe ubucuruzi ifite urugi rusize irangi risa n'ubururu , ku gikuta hasize irangi risa n'umuhondo , ku ibaraza hicaye abantu b'abagabo babiri , hariho n'icyapa kigaragaza inyamaswa yitwa ingagi.

Inzu ifite icyapa hejuru kigaragaza ibicururizwamo, imbere yayo hariho abantu bahagaze ku binyabiziga byo mu bwoko bw'amagare ,iruhande hariho umuntu wambaye impuzankano ifite ibara ry'icatsi ukora umurimo wo kurinda umutekano w'abantu n'ibintu.

Ibiryamirwa byo mu bwoko bwa matela bifite amabara atandukanye harimo umuhondo, umutuku, icyatsi, ubururu, birambitse hasi iruhande hariho ikinyabiziga gifite ipine ry'umukara.

Inyubako irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo bifashisha mu bwubatsi imbere hariho ibinyabiziga byo mubwoko bw'ipikipiki biparitse impande yayo

Inyubako igeretse kabiri yagenewe gucururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya, imineke, imikati, iruhande hanze hariho igipupe cyambaye imyenda y'abantu n'umuntu uri gutambuka mu muhanda.

Inyubako yubatswe ifiteho irangi risa n'umuhondo n'icyapa hejuru gishushanyijweho amacupa abamo inzoga, imbere yayo hariho imodoka ihaparitse ndetse n'ibiti birebire bihatewe.

Inyubako eshatu zubatse mu buryo bwa kijyambere. Imbere yazo hariho igiti kinyuzeho umuyoboro w'amashanyarazi, mu muhanda hariho umuntu utwaye ikinyabiziga cyitwa igare kiriho ibidomora.

Inzu icururirizamo ubwoko butandukanye bw'amarangi abantu bifashisha basiga ku mazu yabo, ndetse no ku madirisha n'inzugi kugira ngo ingo zabo zise neza.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa, ibikapu byo guhahiramo, ndetse n'amacupa yo gutwaramo amazi, n'imipira yo gukina, imbere yinyubako hateyeho indabyo.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imikubuzo, sima abantu bifashisha bubaka, abantu bicaye imbere ku rubaraza, n'imashini idoda imyenda abantu bambara.

Ibicuruzwa by'amoko atandukanye harimo ibyifashishwa mu murimo w'ubwubatsi, ibindi bikifashishwa mu ngo z'abantu babikoresha amasuku birunze hamwe imbere y'inyubako irimo umuntu utanga serivisi z'ubucuruzi.

Inyubako ifite irangi risa n'umuhondo ku gikuta, ku madirishya hariho ibirango by'bicuruzwa acururiza muri iyo nyubako yubatswe aho hantu.

Inyubako igeretse kabiri hasi harimo ubucuruzi bw'ibikoresho abantu bifashisha mu bwubatsi, kandi imbere y'iyo nyubako hariho umuntu w'umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu.

Inzu ifite umuryango usize irangi risa n'icyatsi kuruhande rwo hanze kurukuta hariho irangi yikigina muruhande rwa ruguru hariho akabaraza gasize irangi risa n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye ari byo ibikoresho bifashisha bakora isuku murugo, mu bwiherero ndetse n'ibinyobwa abantu bakunda kunywa, abana bato n'abakuru.

Ibicuruzwa binyobwa byo mu bwoko butandukanye biteretse ku mbaho, biri mu nyubako irimo n'amavuta yo gusiga abana ndetse n'abantu bakuru.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati, iruhande rwayo hariho inzugi ebyiri, ndetse hahinzweho n'igihingwa cyitwa igisheke.

Icyapa kiriho amagambo yanditsweho mw'ibara ry'umweru. Gishushanyijweho imyenda n'inkweto, n'imikandara abantu bakenyeza imyenda yabo iyo bayambara.

Umugabo n'umugore bicaye ku ntebe mu nyubako icururizwamo imyenda itandukanye yifashishwa murugo mu gihe cyo kuryama ndetse n'iyo abantu bakenera bambara.

Inyubako icururizwamo imyenda ndetse n'amavuta atandukanye, y'abantu bakuru n'abana n'amasaha yo kwambara ukuboko, n'ingofero zo kwambara mu mutwe z'abagabo.

Inyubako ifite urugi, rufite irangi risa n'icyatsi, hanze ku gikuta hakaba hariho ubucuruzi bw'imyenda y'abadamu, yitwa ibitenge bitandukanye, bifite amabara atandukanye.

Igikoresho cyitwa indobo kirimo imigati ikorwa mu ifu ivuye mu gihingwa cy'ingano. Ikaba iteretse hejuru y'igikarito kibikwamo ibindi bikoresho bifashisha mu bucuruzi.

Inzu yubatswe isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, imbere yayo hariho umufuka urimo ibicanwa bikomoka ku biti byitwa amakara hariho n'abantu bari ku binyabiziga byitwa amagare.

Inyubako irimo ibicuruzwa bitandukanye, hariho ibikapu byo gutwazamo ibikoresho bitandukanye. Ku rubaraza rw’iyo nyubako, hariho igare, ndetse n’umuntu wicaye ku ntebe hanze ku rubaraza.

Inyubako y'ubucuruzi imbere yayo k'urukuta hamanitsweho ibikapu, n'imifuka, mu muryango hicayemo umugabo wambaye indorerwamo z'amaso n'igikoresho abantu bifashisha badoda imyenda y'abantu yambarwa, imbere ku rubaraza hariho imifuka irimo amoko y'imyaka atandukanye.

inzu ifite inzugi ebyiri zisize irangi ry'icatsi ifite icyapa ku gikuta gifite ibara ry'umutuku handitsweho amagambo mu irangi ry'umweru ifite n'inkingi isizwe ibara ry'ubururu hejuru hasi ibara ry'umukara

Inzu yubatswe kandi isakaye， ifite inzugi zifite irangi risa n'icyatsi，iruhande rw'iyo nzu hariho ibiti bitewe bigwanya isuri.

Inyubako yubatswe isakaye imbere yayo hariho akazu gafite ibara risa n'umuhondo, iruhande hariho umuhanda uri kunyuramo abantu batandukanye, abagabo n'abagore.

Inzu yagenewe gucururizwamo ibiribwa bitandukanye hakaba harimo ikiribwa cyitwa imineke, hanze ku rubaraza hakaba hariho igikoresho cyitwa umufuka kirimo imyaka.

Inyubako yubatse isakaye, imbere yayo haparitseho ikinyabiziga cyo mubwoko bw'idayihatsu, hazitijwe n'uruzitiro, afite n'umuryango usize irangi risa n'umukara.

Ibicuruzwa by'amoko atandukanye harimo amavuta basiga abana, ingofero zambarwa n'abagabo n'ibikoresho abantu bifashisha bagiye guhaha batwaramo ndetse n'umwana wicaye iruhande rwabyo.

Ahantu bacururiza ibikoresho bitandukanye abantu bifashisha mu bwubatsi bw'amazu ari byo ibirahuri, ndetse n'imisumari ,ndetse n'igikoresho bifashisha bapima uburebure bw'urugi ndetse n'uburebure bw'idirisha.

Inyubako ifiteho hejuru ibyapa byinshi by'amoko atandukanye, iruhande hasi hariho umuntu kuhanyura yambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, hejuru hariho umuhanda unyurwamo n'abantu batandukanye ndetse n'ibinyabiziga.

Inyubako ifite imiryango ifunguye ikaba iriho ibirango hejuru bigaragaza imikorere ikorerwa muri iyo nyubako ari iyo gutanga amafaranga ndetse no kuyakira ku baturage baje bahagana hakaba hariho n'ikinyabiziga gihagaze imbere y'iyo nyubako.

Inyubako ya kinyarwanda ikikijwe n'ubusitani burimo indabyo, ndetse n'umuhanda wa kijyambere ku ruhande hariho ibiti birwanya isuri.

Abagabo babiri bari kunyura mu muhanda wubatswe neza wa kijyambere, ku ruhande hakaba hariho ibiti byo mu bwoko bw'imigano bitewe ku murongo neza kandi bifite amashami.

Icyapa gishushanyijweho igitanda kiriho matera n'ibiryamirwa abantu baryamaho n'amafunguro iruhande abantu bafata bahageze, ndetse n'inyuguti zanditsweho mu ibara ry'umukara.

Imyenda yo mu bwoko bw'amapantaro n'amashati n'amakoti imanitswe ku biti. Imbere y'inyubako hariho n'umubyeyi uhagaze n'ibikapu abantu batwazamo.

Indobo n'ipaniye n'imifuka irimo amoko atandukanye y'ibiribwa, biri mu nyubako yubakishijwe ibyuma isakajwe amabati harimo n'abantu baje gucuruza no guhaha ibyo biribwa.

Ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye ari byo ifu abantu bifashisha bateka igikoma, ndetse n'umuceri abantu barya mu rugo, ndetse n'amavuta batekesha mu biryo abantu barya mu rugo, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye umuntu akenera mu rugo.

Ibyibo byo mu bwoko bw'ibiseke, biteretse ahantu hamwe abantu bifashisha bashyiramo ibiribwa, bashira bagenzi babo mu gihe cy'imihango y'ubukwe.

Abantu benshi batandukanye bahuriye mu isoko, ricururizwamo imyenda itandukanye y'ababyeyi n'iy'abagabo n'iy'abana, ndetse n'ibyo kurya. Hariho n'inyubako zitandukanye iruhande rw'iryo soko.

Imyenda y'amoko atandukanye harimo iy'abantu bakuru ndetse n'abana irunze hamwe hejuru ku ihema iruhande hariho umubyeyi uhagaze afite umufuka mu ntoki hariho n'umwana wambaye inkweto zifite ibara ry'umuhondo.

Ibicuruzwa by'amoko atandukanye, harimo amabase ndetse n'imyenda n'ibindi bikenerwa mu rugo, bikaba biteretse hejuru y'igikoresho gikozwe mu mbaho z'ibiti, hari ho n'umuntu uhagaze ku nkingi.

Inyubako igeretse kabiri icururizwamo ibyo kurya by'ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibyo kurya, imbere yayo hariho abantu bagiye kwinjiramo, hariho n'ubusitani buteyemo umucaca.

Umuhanda uri kunyurwamo n'urujya n'uruza rw'abantu bafite ibinyabiziga bifite ipikipiki ndetse n'igare ,banyura iruhande rw'inyubako igeretse inshuro enye.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye harimo ababyeyi bahetse abana, bari mu nyubako isakaye icururizwamo ibiribwa bitandukanye, ari byo isombe, imboga n'imbuto ziribwa.

Abantu benshi bari ahantu hacururizwa ibyo kurya bitekwa bihashwe mu isoko, ari byo inyanya, intoryi, imboga dodo, abantu bifashisha mu rugo bategura amafunguro.

Imboga abantu bifashisha bategura amafunguro yo kurya mu rugo, zikaba ziri mu gikoresho cyitwa ibase gifite ibara risa n'ubururu, abantu bakunda gukoresha mu rugo bategura isuku y'ibiribwa.

Ibicuruzwa birimo ibikoresho abantu bifashisha bakora isuku mu ngo ndetse na mu kanwanywa. Hariho n'ibindi bikenerwa abategura amafunguro kugira ngo aze kuryoha, harimo n'amavuta basiga abana batoya.

Imifuka irimo umunyu wa habari abantu bifashisha bateka mu biryo mu ngo zabo, irambitse ku gikoresho gifite ibara ry'umutuku iruhande rwaho hari umuntu uhahagaze wambaye inkweto z'umukara.

Imifuka ibiri irimo ibijerikani bifite ibara ry'umuhondo n'imifuniko ifite ibara ry'umutuku, bikaba biteretse impande y'ikigega gifite ibara ry'umukara gifata amazi.

Umubyeyi ukikiye umwana yitwikiye umutaka imbere ye hariho indobo irimo imbada zikorwa mu ifu iturutse ku kihingwa cyitwa ingano.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, abagore abagabo abana baje ahantu hacururizwa imyenda yo kwambara, ndetse n'inkweto zo kwambara, iruhande hakaba hariho n'inyubako zisakaye.

Umugabo wicaye ari gukora umwuga go gusudira inkweto, ibidomora ndetse n'amabase. Iruhande rwe hariho umubyeyi wicaye, n'umugabo uryamye, undi ahagaze.

Ubucuruzi bw'ubwoko bw'ibintu bitandukanye harimo ibikenegwa mu guteka mu rugo, umwuko, isafuriya ndetse n'amabase umuntu yifashisha akora amasuku, hariho n'abantu bahagaze ahacururizwa ibyo bicuruzwa.

Igikoresho cyitwa umufuka kikaba kirimo ibicanwa byitwa amakara, hariho iruhande umufuka urimo ibirayi abantu bifashisha bategura amafunguro mu rugo, iruhande hakaba hariho intebe abantu bicaraho ifite ibara risa n'ubururu.

Ibikoresho by'amoko atandukanye ari byo: indobo, amabase, ibikombe, amasahani, ndetse n'imikoropesho yo gukoropesha, n'abantu bahagaze iruhande rwabyo.

Ibikoresho by'ubwoko butandukanye harimo indobo, amasahani, ibiyiko ndetse n'udupaniye hirya hariho ikiribwa cy'imineke bikaba biri ahantu hamwe.

Abantu bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye ku bisima, ari byo : karoti, pavuro, intoryi, inyanya, ndetse n'ibijumba, n'ibitoki, n'amashu bitandukanye.

Ubwoko bw'imyenda myinshi itandukanye iri ahantu igomba gucururizwa. Harimo n'ibyo abantu bisasira bakaniyorosa mu ngo z'iwabo. Hakaba hariho n'utumeza two kuyirambikaho.

Ubwoko bw'imyenda itandukanye harimo: amapatalo, amakoti, birambitse hejuru y'imifuka. Biri ahantu hagenewe gucururizwa, hariho abantu bahagaze ku ruhande b'ababyeyi ndetse n'umugabo wicaye hejuru y'umufuka.

Imyenda irunze ahantu hamwe ku ihema ifite ibara risa n'umukara, indi ifite ibara risa n'icyatsi, n'irisa na n'igitaka, iruhande rwaho hariho inyubako ifite imbaho zisize irangi ry'ubururu bwijimye.

Abantu benshi batandukanye bari ahari inyubako igeretse, hirya y'aho hari ikinyabiziga giparitse, cyo mu bwoko bw'imodoka zitwara abantu n'ibintu mu muhanda.

Umuntu uhagaze afite ubworozi bw'inkwavu, mu ntoki yambaye isaha ku kuboko, iruhande rwe hariho imbaho ziriho hejuru ubworozi bw'inkoko.

Imbuto zo mu bwoko butandukanye ziribwa, ari zo ibinyomoro, amaronji, pome, imyende, bikaba biri ku gikoresho cyitwa intara, kirambitswe hejuru y'igikarito.

Inyubako igeretse kabiri hasi hacururizwamo ibicuruzwa biribwa by'amoko atandukanye harimo igicuruzwa cyitwa: imiteja, karoti ,ibitunguru na pavuro.

Abantu batatu bagiye ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye ari byo, amavuta yo kwisiga ndetse n'amasabune yo gukora amasuku mu ngo, ndetse na miriwari abantu bakoresha bireba amasura yabo, ndetse n'imarete abantu bagendana.

Abagabo n'abagore bari guhaha ibiribwa bitandukanye ari byo:karoti, intoryi, imiteja ndetse n'imboga, aho bicururizwa mu isoko ryabigenewe.

Ibicuruzwa byo mu bwoko butandukanye, hariho amavuta yo guteka, n'ibitunguru, na tungurusumu n'ibirungo byo mu biryo, n'ibase irimo amakaroni bifashisha bategura amafunguro mu rugo.

Ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye umuntu yifashisha mu rugo ari byo amasafuriya, amabase, ibikombe, amasahani ndetse n'ibiyiko.

Abagabo babiri bahagaze ahantu harunze umusaruro wakomotse ku bihingwa by'amashu, hirya yaho hakaba hariho inyubako z'amazu zisakaye hariho n'imirima ihinzwemo igihingwa cy'ibishyimbo.

Ahantu hahuriye abantu benshi harimo ababyeyi bahetse abana ,abagabo ndetse n'abagore harimo ibicuruzwa bitandukanye ibisheke byo kurya ndetse n'amaronji ndetse n'indimu n'amacunga hariho n'inyubako zisakaye.

Inyubako yubatswe mu bujyo bwa kijyambere ikaba icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ari byo imyenda yo kwambara, iy'ababyeyi ,iy'abagabo ndetse n'inkweto zo kwambara mu gihe gitandukanye.